Imifuka myinshi cyane irunze ahantu munsi y'igiti, ikaba irimo ifumbire mvaruganda ifasha abahinzi gukuza imyaka yabo bakongera umusaruro.

Akabati gasize verine, kakaba karimo imiti itandukanye ifunze mu ducupa ndetse n'udukarito, ikaba ari imiti yifashishwa mu kuvura no kwirukana udukoko twibasira imyaka.

Imiti myinshi ntabwo ikunze gufatirwa mu bitaro, hari iyo dusanga mu mafarumasi, aho tugenda tukabigura tukivura indwara zitandukanye, ni byiza rero kugenda wafashe imiti wandikiwe na muganga ukamenya ko yujuje ubuziranenge ndetse izanagira icyo igufasha ku buzima bwawe ndetse itakwangije.

Etajeri isize verine iri mu ibara rya oranje, ikaba ipanzemo amoko y'imiti atandukanye yifashishwa mu kuvura no kwirukana udusimba twibasira ibihingwa.

Icyumba kigiye kirimo utubido dutandukanye turi mu tubati, utubido turiho umupfundikizo w'umweru, harimo utubido tw'umuhondo, harimo indobo ku ruhande, harimo na pubere ahantu bashyira imyanda.

Ifumbire y'imborera ikunze guturuka ku matungo, ikoreshwa mu gufumbira imyaka, maze nayo igakura cyane kandi igashisha, ibi ngibi rero bituma abahinzi bakunze kuyirunda ahantu hamwe, bakagenda bayitunda gake gake bayigeza mu mirima yabo.

Ifumbire mvaruganda ikunze gushyirwa mu butaka, ahangaha rero abantu baba bagomba kumenya ikigero cya nyacyo bagomba kuyikoresha, iyo ushyizemo nyinshi cyane irabwangiza ndetse ntitange umusaruro hari abakangurambaga b'ubuhinzi bagiye bashyirwa muri buri murenge no muri buri mudugudu wose ugize akarere.

Ifumbire iyo imaze kuboneka neza ikagwira, iragenda ikarundwa ahantu hamwe maze ikazakoreshwa mu gihe gikwiriye, ntabwo twakwirengagiza agaciro k'ifumbire y'imborera, usanga ishyirwa mu myaka kandi burya nta n'ingaruka nyinshi ikunze kugira ku butaka kuko n'abahinzi barayishimira cya ...

Ifumbire iyo imaze kugezwa mu butaka iba igomba gusanzagizwamo, umuhinzi rero ibi ngibi abikora mu gihe gito gishoboka mu rwego rwo kwirinda gutinda no kuba yakangiza iyi fumbire, imvaruganda yo iterwamo mu buryo bwose bushoboka kandi yo nta n'ubwo ikunze kuboneka cyane kuko irahenze ku isoko.

Ifumbire mvaruganda ikunze gushyirwa mu mirima cyane, aha ngaha rero yo ikora vuba cyane ariko ikunze kwangiza ubutaka kuko nk'iyo bigeze mu gihe k'ihinga igikurikiraho ntuyishyiremo ntabwo ibimera bikura neza, ni byiza rero ko twashishikarira gukoresha imborera cyangwa se ituruka ku matungo.

Uruzitiro rw'amabuye ahiye rukunze kuba ruri ahantu hitaruye ariko ntabwo twakirengagiza ko n'ibimera biba biteye mo imbere biba bigomba kubungabungwa, aha ngaha rero usanga harimo insina zikiri ntoya, ibiti by'amacunga cyangwa se n'indimu.

Abahinzi ba koperative bishyize hamwe barahinga, nyuma yo gukora icyo gikorwa beza imbuto y'ibirayi, urabona ko igihe cyo gusarura kigeze, bakaba bishimira ibyo bagezeho.

Ubuhinzi bw'icyayi iyo bwitaweho mu Rwanda bukunze gutanga umusaruro amadevize n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Akenshi rero dukunze kubusanga mu ntara zitandukanye z'igihugu nk'Uburengerazuba n'Amajyaruguru. Abantu rero bakora ubwo buhinzi bagerageza kwiteza imbere mu buryo bushoboka.

Ibimera biri ahantu hitaruye kandi hafite isuku, ubutaka rero bugiye bwijimye butanga umusaruro ndetse n'ubuhinzi akabona ibihingwa bimutunga we n'umuryango. Ibi ngibi rero bigomba gushyirwamo imbaraga, hagakoreshwa ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda.

Umurima wakorewe neza, ukaba urimo ibiti by'imyumbati ubona ko itoshye cyane rwose kubera ko yitaweho, umuhinzi na we akaba yishimira ko azakuramo umusaruro uhagije.

Amoko y'ibiti bikiri bitoya biri mu bihoho, urabona ko bagiye kubitera ahandi hantu, bakaba babiteguye neza kugira ngo bitangirika.

Imbuto ziri mu bihoho, zikaba zigeze igihe cyo kujya guterwa, urabona ko bazikuye kugira ngo bazijyane aho zigomba gutekwa, bityo bongere ibiti biri ahantu hirya no hino.

Umurima ukoreye neza ukaba urimo igihingwa cya kawa, urabona ko zimwe zigeze igihe cyo gusarurwa zaratukuye izindi ziracyari miteja, ni byiza gukorera kawa kuko itanga amafaranga.

Ibimera iyo bitewe ku murongo bikunze gutanga umusaruro ndetse n'amafaranga, aha ngaha tuba tugomba kubyitaho tukabirinda kwangizwa n'udukoko tubiteramo imiti, aha ngaha tugomba kwirinda kugira ikintu cyose cyabyangiza, tukabyuhira, tukabirinda n'izuba rikabije cyane.

Inyanya zeze cyane ndetse n'izindi zikiri ibitumbwe zereye hejuru, urabona ko zitaweho cyane ari yo mpamvu zimeze neza.

Ibitoki ni ibihingwa bikunze gukorerwa mu nce z'icyaro, aho usanga abakora ubwo buhinzi barateye imbere cyane, barabigurisha bakabona amafaranga, nk'ay'ubwisungane mu kwivuza, bakishyura za mitiweri, harimo n'ababikoramo urwagwa, harimo n'ababikoramo umutobe, mbese biterwa n'icyo umuntu ashaka, yumva akeneye.

Imbuto y'ibirayi ikunze kuboneka mu gice cy'amajyaruguru aho twita mu Kinigi, ntabwo rero ibi ngibi bivanaho ko no mu bindi bice bishobora guhingwamo ariko aho mvuze haruguru niho byera cyane. Ibi ngibi rero bituma tugomba gushaka ifumbire ihagije, mu rwego rwo kongera umusaruro wabyo.

Umurima wakorewe neza cyane, ukaba uhinzwemo imbuto zitarakura neza zo mu bwoko bw'inyanya, urabona ko yahakoreye neza cyane, hakurya hari ibiti birebire.

Igihingwa dukunze kwita urunyanya ni igihingwa cyera cyane kandi kikaba gitunze benshi, ikirenzeho gitanga amafaranga kuko iyo cyeze cyane uragurisha ugasagurira isoko.

Igihingwa cy'umuceri, ikiganza cy'umuntu kikaba kiri kwerekana ko ari imbuto nziza cyane kandi yeze neza akaba ashishikariza n'abandi kuba bayigura bakayihinga.

Ibitoki bimwe bitanga umutobe, nyuma bikazavamo n'urwagwa, babikusanyirije ahantu hamwe, ubona ko ha bagiye kubishyira mu rwina, ndetse bagiye banabikata ubona ko byatunganyijwe neza rwose bagiye babicamo amaseri.

Udukarito twanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye, ibara ry'ubururu, ibara ry'umukara, ibara ry'icyatsi, tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'imiti y'amatungo n'ibihingwa bikunze kuba biri ahantu hari abantu barembye cyane kandi bahakorera ubuhinzi n'ubworozi, ntabwo twakwirengagiza akamaro kabyo kuko abantu babona ibibatunga kuko imyaka yabo irarindwa cyane n'iyi miti.

Imiti yica udusimba ikunze kuba ifunze mu makarito, aha ngaha rero ikunze kugenda igashyirwa mu myaka cyane cyane ko ari inyongeramusaruro nyinshi zigiye zitandukanye zikenera imiti, ibi ngibi rero bituma umusaruro wiyongera n'abantu bakabona ibintu bibatunga.

Burya gusoma ukanihugura na byo ni ingenzi mu buzima cyane. Hari umunyarwanda wavuze ko gusoma ibitabo bifungura mu mutwe, ariko abantu benshi nta bwo babimenya. Ndetse abantu bo hanze bajya banabiducyurira ngo ushaka guhisha Umunyafurika amuhisha mu gitabo. Kuko bazi ko ahandi ahantu hose twahagera. Biba byiza rero gushishikarira gusoma tukamenya ubumenyi bugiye buhishemo.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane, abantu babukora usanga babona amafaranga, usanga bariteje imbere nta kibazo cy'imirire bagira, kuko zitanga amagi, kandi ayo magi ari mu bintu byubaka umubiri, ugasanga umuntu uyafata arakomeye cyane, nta bibazo bindi rero bakunze guhura nabyo, kuko zibinjiriza n'amafaranga.

Umugabo uri mu murima, akaba afashe isuka arimo arahinga, yambaye bote ndetse iruhande rwe hari ibiti birebire, ndetse n'insina ubona zikoreye neza.

Abantu bahuriye ahantu hamwe, bakaba bari kubaka akarima k'igikoni, ni igikorwa cyiza kuko bakeneye kuzajya barya imbuto, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuganda burya ni igikorwa cyiza cyane ndetse mu gihugu cyacu byabaye nk'umuco. Abantu rero bahabwa icyo gikorwa akenshi usanga batishoboye, aho bagenda bubakirwa nk'amazu, bakaba bagira n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bakorerwa. Ibyo rero byongera umusaruro ku gihugu ndetse n'izindi mbaraga.

Umuhinzi wabigize umwuga akaba ari guhinga mu murima we ahinga ubwoko bw'imyumbati itandukanye kugira ngo azabone ibyo gutunga umuryango we.

Abantu batandukanye baricaye, barimo baraganira, imbere yabo hari ibishogoshogo by'imyaka igiye itandukanye, hari umugabo warambuye ukuboko arimo arabaganiriza ku bintu bigiye bitandukanye, anabereka aho imyaka yabo igeze, afashe mu mufuka, bigaragara ko barimo barigiramo ibintu by'ingenzi cyane.

Abahinzi babigize umwuga bakaba bari guhinga bakoresheje amasuka, hirya yabo hari ibigori byeze ndetse n'urutoki bakaba bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Abagabo babiri barimo baraca imiringoti, aho ifasha mu kurwanya isuri ubutaka ntibube bwatembanywa n'amazi mu gihe imvura iguye ari nyinshi. Ibi rero ni ingirakamaro cyane, bituma ibihingwa byacu bikora neza ndetse bikaba biri n'ahantu hizewe.

Abahinzi iyo babigize umwuga, babona umusaruro uhagije kuko bafata igihe cyabo bakita ku bihingwa byabo, bityo umusaruro ukiyongera.

Umuhinzi iyo amaze kweza ibihingwa bye aba agomba kubishyira ahantu heza kandi hizewe, aha ngaha arimo kubipakira mu mifuka mu rwego rwo kwirinda kuba byakangirika akibuka no kubihungira ku buryo mu gihingwa gikurikiraho atazajya gushakisha imbuto ahandi hantu hatandukanye.

Ubuhinzi bw'urutoki, ruteye ku murongo, rurasasiye, rugiye rushaririye rwose urabona ko bagiye bazicira, ibintu byose ubona ko biri ku murongo, kandi rwose rugaragara ko ruzatanga umusaruro mu gihe kiri imbere.

Ubuhinzi bw'umuceri bwateye imbere cyane mu Rwanda. Bukunze gukorerwa mu bishanga ahantu hagiye hatandukanye aho bagenda baca imiringoti, bagashyiramo amazi menshi, abantu bakabona icyo buhiza ibyo bimera. Akenshi rero iyo bimaze kwera bitanga amafaranga n'umusaruro mwinshi ndetse n'ibyo kurya.

Ibimera iyo bimaze kwera bikunze gushyirwa mu dufuka dusa neza mu rwego rwo gukomeza kubibungabunga. Ahangaha bino bikorerwa mu nganda kuko usanga bagenda bakuramo ibyaboze cyangwa se ibyapfuye bakabishyira ku ruhande bagasigaza imbuto nzima n'umuhinzi mu gihe gikurikira akazabona imbuto nziza kandi itunganye.

Imbuto y'ibigori imaze kuma neza yarembetswe ahantu heza kandi hizewe, ibi ngibi bituma itangirika cyangwa se ngo ishobo kuba yakangizwa n'imungu cyangwa se utundi dusimba twose tugiye dutandukanye twangiza imyaka, ibi ngibi byongera umusaruro ku muhinzi.

Ibimera bitoshye neza biba bigaragara. Aha ngaha twavuga nk'imyumbati. Aho iki giti gikunze gutanga umusaruro, ndetse imbuto zacyo arizo bakunze kwita imyumbati, zikavamo ubugari. Aha ngaha n'amababi yayo akunze kuvamo isombe iryoha cyane.

Ahantu hatuwe haba hagomba kugirirwa isuku cyane. Gutura mu kigunda burya ntabwo ari byiza kuko hakunze kororokeramo imibu itera malariya, abantu bagasanga bararwaye ntibamenye isoko y'izo ndwara. Kumbe ari uko batahakoreye isuku ahantu batuye. Ni byiza rero kuhagirira isuku cyane.

Ibihingwa bigiye bitandukanye, bikunze kugira umusaruro cyane, aha ngaha twavugamo ko hari bimwe bigenda bivamo ibiryo by'amatungo, ibindi bikagenda bivamo imite ku matungo, aha ngaha rero ntitugomba kwirengagiza akamaro kabyo kagiye gatandukanye, ngo tureke kubibungabunga cyangwa se twirinde icyabyangiza.

Amoko y'ibihingwa bitandukanye, hakaba harimo insina, hakaba harimo amateke, inyanya ndetse n'ibiti by'ibihwagari byose bikaba ari ibihingwa.

Amoko y'ibimera bitandukanye bikaba birimo imyumbati bikaba birimo ndetse n'ibigori byamaze gusarurwa, hafi y'ibi bimera hari ibiti birebire ndetse n'inyubako ihari.

Ishyamba rikunze kuba riri ahantu hagaragara, ibi ngibi rero bituma inyamaswa zibaho neza ndetse n'abantu bakabona ibicanwa. Tugomba rero kuyabungabunga kuko adufitiye akamaro gakomeye cyane mu buzima, hari umwuka duhumeka tugenda twinjiza uturutse mu biti.

Ishyamba mo hagati yaryo harimo inzu, ibingibi rero bikaba ari ibintu bikunze kugira ingaruka cyane ku bantu batuye ahantu nka hano, kuko hororokeramo inyamaswa zigiye zitandukanye zishobora kugirira nabi abantu mu gihe cy'umugoroba, ndetse n'ibikorwa remezo kugira ngo bihagere nk'imihanda, bikunze kugorana cyane, kuko ntabwo byabona aho bicishwa.

Ubuhinzi bw'urutoki ni ingirakamaro cyane, abantu babuhinga usanga bafite amafaranga. Babona icyo kurya, babona icyo kunywa, hari n'inzoga zimwe na zimwe zagiye zigaragara ko zituruka mu bitoki, kandi zashyizweho ubuziranenge n'ikigo cy'Igihugu kibishinzwe. Abantu rero bashishikarizwa gukora urutoki rwa kijyambere bakarwitaho.

Umusaruro w'ibinyomoro, ukunze kuboneka cyane. Aha ngaha rero umuntu ubihinze, ageza ku isoko bimwe na bimwe, ibindi akabirya na we agakemura ibibazo bimwe by'amafaranga ashobora kugira, akabasha kwishyura ubwisungane mu kwivuza, akaba yabasha no gutemberera ahantu hagiye hatandukanye. Biba bibabaje iyo utuye mu gihugu hari ahantu nyaburanga utaragera kandi ufite ubushobozi bwo kuhagera.

Amoko y'ibiti ndetse n'ibimera atandukanye, hakaba harimo ibikiri bigufiya, ndetse harimo n'iby'inganzamarumbo ubona rwose byabonye imvura bikaba bitoshye.

Koperative yishyize hamwe iravuga iti: "Duhinge ibigori. " None urabona ko umusaruro wabo ushimishije ibigori byabo bikaba bigeze igihe cyo gusarurwa kugira ngo bijyanwe ku isoko.

Umuzungu uhetse igikapu yambaye ipantaro ya kaki hejuru afite umupira w'umweru yambaye ari mu ishyamba, bigaragara ko ari muri parike hakunze kubamo inyamaswa cyane cyane bino bikaba bikunze gukurura ba mukerarugendo bikinjiza n'amadevize ku gihugu.

Hari ubutaka buhinzemo ibimera bigiye bitandukanye, akenshi rero ibi bimera iyo bikuze, bikunze gutanga umwuka abantu bahumeka, ku buryo akenshi usanga nk'iyo bimaze kwera neza, bigenda bitanga umusaruro utandukanye, abantu bakaba babibyazamo umusaruro.

Amoko y'ibimera atandukanye, hakaba harimo ibitovu, inturusi, ibiti birebire, ibi byose bikaba bishyirwa hamwe bigakorwamo imiti gakondo.

Ibiti by'inganzamarumbo bikunze kuboneka mu mashyamba. Bikunze kudufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Tubona umwuka wo guhumeka, tukabona imbaho, tukabona ibicanwa. Nta muntu ujya ugira ishyamba ngo agire ikibazo cy'ibicanwa cyangwa se ikindi kibazo giturutse ku mafaranga kuko turanabigurisha tukabona ibidutunga.

Ibiti bigiye biteye ku gasi bikunze kugaragazwa n'ibintu bigiye bitandukanye, hari ibyo usanga byarumye cyangwa se ibindi bitoshye, ibi ngibi rero bigaragaza ko kiba kitaritaweho neza, kandi kiba gikeneye gukorerwa isuku ndetse kikuhirwa n'amazi menshi.

Amoko y'imbuto zitandukanye harimo pome, harimo watermelon, ibinyomoro bikaba biri mu isoko abantu bakaba baza kubyihahira.

Ubuhinzi bukozwe neza, butanga umusaruro. Aha ngaha bidusaba gushyiramo imbaraga zose zishoboka nko gufumbira ubutaka, kuhira ndetse n'ibindi bikorwa byose bijyana n'iterambere ry'ubuhinzi. Ntabwo twakirengagiza n'ikoranabuhanga, aho ryagiye rigaragaza ko rizamura umusaruro, mu ngeri zigiye zitandukanye.

Ibiti burya ni ingenzi mu buzima cyane. Iyo bitewe ku murongo usanga bigirira abantu akamaro. Urugero wenda nk'ibiti by'amarume aho usanga bitanga umusaruro abantu bakabona imbuto zo kurya, bityo bakivana mu mirire mibi ntusanga hari umuntu wenda warwaye nk'indwara zigiye zitandukanye zituruka kuri ubwo burwayi bwo kudafata imbuto. Kandi burya n'ibibabi byazo hakunze kuvamo imiti. Itandukanye.

Imboga zitandukanye harimo karoti, intoryi na puwavuro. Zimwe muri zo zifasha mu gutuma umuntu abona neza kuko zifitemo amavitamine agiye atandukanye, izindi zifasha mu birinda indwara, izindi zifasha mu kuryoshya ibiryo.

Hari abantu batandukanye, hari n'ibimera. Ni pipinyeri bagiye barembeka, ikigaragara ni ibiti by'imyembe hari umuhungu uri ku ruhande wambaye umupira w'umweru, uteruye urugemwe mu ntoki, hari n'umumama ku ruhande ukenyeye igitenge.

Imboga ni kimwe mu bintu bifashe ubuzima bwa benshi kuko umuntu urya imboga na we abona vitamine zihagije bityo bikamurinda kurwaragurika.

Ibihaza bigezweho cyangwa byo mu bwoko bwa kizungu, ni bimwe mu mboga zifasha abantu kubona intungamubiri zitunga imibiri yabo ndetse n'ubuzima bukagenda neza.

Umugabo wambaye ingofero, ndetse n'ishati iri mu ibara risa n'ivu, akaba ari mu mbuto ze yinaje, kugira ngo arebe ko zigejeje igihe ajye kuzitera ahandi.

Urutoki ni kimwe mu bivaho imineke, ikaba idufasha mu kubona intungamubiri zuzuye, kuko iyo uyiriye yarahishiye, bigufasha mu buzima bwawe.

Amoko y'imbuto zitandukanye, harimo izihishiye ndetse n'izitarahishira zikubiyemo ibinyomoro ndetse n'amatunda, hakaba hari umubyeyi ugiye kuzicuruza ku isoko.

Ubuhinzi bukomeje guteza benshi imbere, kuko iyo bahinze babona ku mafaranga abafasha kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo bitandukanye.

Guhinga imboga ni kimwe mu bintu dushishikarizwa n'abaganga, kuko iyo uhinze imboga cyane cyane nk'ibitunguru, pavuro, ndetse n'izindi bituma tubona indyo yuzuye.

Amacunga, ibinyomoro, ndetse n'indimu, bikunze guterwa ku murongo kandi bigasasirwa, ahangaha rero buno buhinzi buba bugomba gushyirwamo imbaraga cyane kuko bisaba igishoro gihagije, ntabwo rero wafata amafaranga menshi ngo nurangiza ujye kuyangiza cyangwa se ubune nta musaruro arimo araguhereza, cyane cyane iyo washoye muri ubu buhinzi.

Ubuhinzi bw'urusenda bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, abantu babukora binjiza amafaranga menshi cyane, aho usanga bohereza nko hanze bagiye bohereza mu bihugu cyane cyane duturanye nka za Uganda no muri Tanzania, ni ibintu usanga rero bigenda bifasha abahinzi kugenda biyungura n'ubumenyi bushyashya.

Ibimera bitandukanye byahinzwe, akenshi rero bakunze kubikoramo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi, abantu benshi icyo kintu ntabwo bakizi, ni yo mpamvu usanga banabyangiza kuko ntabwo babiha agaciro. Ibyo bintu rero bigomba kumenywa ndetse bigakwirakwizwa ahantu hose, abantu bakamenya akamaro kabyo, bakamenya n'uburyo bazaza babibungabunga.

Umuhinzi wabigize umwuga akaba yarahisemo guhinga urubuto bita itunda, urabona ko yiteguye ibyangombwa byose kugira ngo ruzabone aho rwagukira.

Imbuto cyangwa umusaruro wa kawa, bakaba bawunoze bawushyira ahantu kugira ngo baze kuwujyana ahabugenewe bawugurishe babone amafaranga.

Hari ibimera bitandukanye ni indabo, akenshi rero indabo zikunze gukoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye nko kuzitegura mu birori runaka, zikunze no gukurura ba mukerarugendo, zongera ubwiza bw'ahantu, akaba ari ibintu byiza rero abantu bahora bakeneye mu buzima bwa buri munsi.

Kurembeka imboga burya ni ingenzi cyane. Ariko byibuze iyo hari ikintu kizitangira nk'igipangu ku buryo abana bashobora guturuka ku ruhande bataza ngo bazangize cyangwa se ibindi byonnyi, ni ingenzi cyane.

Amatunda akunze gutanga umutobe uhagije kandi w'ingirakamaro. Ahangaha rero abana barayakunda, kimwe n'uko harimo abavuga ko akunze gutera ubwenge iyo adahiye neza. Ibingibi rero biba bigomba gushyirwamo imbaraga kandi bikagezwa mu nganda maze agatunganywa ku buryo bwimbitse.

Ibitunguru ni ibihingwa bifitiye abantu akamaro cyane, aha ngaha ntabwo twakirengagiza akamaro karyo kuko bikunze gushyirwa mu biryo, bigashyirwa ahantu hagiye hatandukanye ndetse harimo n'ababirenzaho kuko gikunze kugira akamaro, bituma umuntu atarekura umusuzi unuka mu gihe cyo kuryama.

Zimwe mu mbuto ni kimwe mu bintu bikomeye cyane kuko zitunze abantu batari bake hano ku Isi, izi mbuto rero zikaba zitwa amatunda urabona ko zihishiye cyane.

Ibiti bigiye biteye imbere mu bigo by'amashuri cyangwa se ibya leta, biba bigomba kubungabungwa neza kuko bitanga umusaruro, aho usanga bivamo imiti y'amatungo, imiti ku bantu, ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko rero, ibiti iyo bifashwe neza bikabungabungwa ndetse n'ibimera muri rusange bibyara umusaruro.

ibitunguru ni bimwe mu mboga ariko ntabwo abantu benshi babizi cyane, harimo n'ibivamo umuti w'amaso kuko akenshi byamaze kugaragara ko umuntu ubifata adashobora kugira ikibazo cy'ubuhumekero cyangwa se icyo kureba nabi, ibi nigbi rero bituma agaciro kabyo ku isoko gakomeza kwiyongera buri munsi.

Umuhinzi yafashe isuka ye arahinga, nyuma yo guhinga yeza imbuto zitandukanye, ibi akaba ari ibitunguru yejejemo, urabona ko bitoshye kandi yabijyanye ku isoko kugira ngo abone amafaranga.

Igikorwa cy'ubuhinzi gikomeza gushyirwamo imbaraga na Leta y'u Rwanda. Aha ngaha usanga ingengo y'imari nka kimwe cya kabiri cyose, ari ho yashowe. Abahinzi rero ntibagomba gupfusha ubusa aya mahirwe Leta iba yarabagiriye, na bo bagomba gushyiramo imbaraga bakazinduka kare bakagenda bagatunganya imirima yabo, bagateramo imiti, bakanayuhira mu rwego rwo kurwanya udusimba.

Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ibimera, harimo ibigenda biterwa mu rugo, bimwe bikavamo indabo nziza cyangwa se ubusitani. Aha ngaha rero bikunze kugira akamaro cyane kuko abantu babitera usanga barabonye agaciro kabyo, ndetse bakarushaho no kubibungabunga.

Ubusitani buri imbere mu rugo bukunze kuba bufitiye abantu akamaro cyane; abantu baragenda bakicara bakaruhuka, bakahaganirira, bakungurana ibitekerezo. Ibi ngibi rero byakunze kugaragara ko mu Rwanda na ho iki gitekerezo cyo kubishyiramo imbere, bwakomeje kwaguka cyane. Ni byiza rero gushyigikira ibintu nk'ibi ngi by'ingirakamaro.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso afashe umupira urimo uraturukamo amazi menshi arimo aragenda yuhira ibimera, kuruhande hari undi mugabo wambaye umupira w'umutuku nawe urimo urita kubimera.

Umugabo urimo uruhira, ahagaze mu murima w'ibinyomoro, ariko ntago haratangira kuzaho ibitumbwe, urabona ko bikiri bitoya ntabwo birakura. Arimo arabyitaho rero, kandi urabona ko rwose n'ibihingwa bishimishije cyane.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni kimwe mu byagiye bikemura ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kuko abahinga buhira imyaka bahinga igihe icyo ari cyo cyose, badakanzwe n'izuba.

Ubuhinzi bwa kijyambere, ni kimwe mu bintu bikomeje guteza imbere abantu benshi, kuko iyo bahinze bakuhira imyaka yabo, bituma umusaruro wabo urushaho kwiyongera.

Ni mu gishanga hakaba harimo ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye ariko ikigaragara cyane ni igihingwa cy'umuceri, hakurya y'iki gishanga hari imisozi ituyeho abantu.

Ahantu heza cyane hari agasozi gateye amabengeza, uwo musozi kandi ukaba uriho ibimera byahinzwe n'abantu muri byo harimo nk'imboga, imyumbati ndetse n'urutoki.

Ubutaka ni ikintu kiza gikunze gufasha abantu mu ngeri zitandukanye, aho bakuramo ibitaka byo kubakisha amazu, aho bahingamo imyaka igiye itandukanye abantu bakabona ibyo kurya, ndetse ibi ngibi bikabongerera n'umwuka bahumeka kuko hakunze kumeramo nk'ibiti bivamo n'imbaho.

Ahakorerwa ubuhinzi bamaze gusarura imyaka hasigariye aho ngaho, ruguru y'aho hakaba hari ipironi rirerire ritwara insinga z'amashanyarazi bigacanira abantu.

Ubwatsi butoshye neza iyo buri ahantu hizewe kandi hafite isuku, usanga amatungo akunze kujyayo akarisha, tukabona amata niba ari nk'inka ziri kurirayo cyangwa se ugasanga ni nk'ihene ziri kugenda zirisha na byo burya biradufasha kuko zikura neza, tukaba twabona umusaruro twifuza.

Hari abagabo babiri barimo barita ku ihene, hari n'umwana ku ruhande, hari umugore urimo uratambuka wakenyeye igitenge, noneho urabona ko hari ihene irimo iramushika cyane, irimo irajya kwishakishiriza ubwatsi, barimo rero barazitaho, urababona ko hari imwe muri zo yagize nk'ibibazo barimo barahereza umuti.

ubworozi bw'inkoko bwateye imbere cyane mu nce zigiye zitandukanye. Ababukora bakunze kubona amafaranga menshi cyane. Bakunze kubona indyo ihagije kuko zitanga amagi, zitanga inyama, ndetse yewe zitanga n'amafaranga cyane. Abantu rero bakora ubwo bworozi usanga barateye imbere ku buryo bushoboka.

Inka bakunze kwita inyana iri mu kiraro cyayo iratuje bayihaye ubwatsi, usanga rero ibi byatsi yagiye isigaza na byo iyo bigiye bikabikwa nko mu kimoteri bivamo imborera bigatanga ifumbire maze abantu bakayifumbiza imyaka.

Umugabo wambaye bote afite ihene mu ntoki yambaye ikiziriko. Ihene rero ni itungo rigufi, ariko rikunze kugoboka abantu benshi mu bintu bigiye bitandukanye. Hari igihe umuntu agira gutya agahura n'ibibazo runaka, nk'uburwayi, ugasanga ararigurishije rimuhaye amafaranga, kandi burya ritanga n'ifumbire ku buryo nyine ifumbire y'ihene nk'amahurunguru, ni ifumbire ihenze cyane, kandi ifasha mu murima ibimera bigakura neza.

Inkoko ni ubworozi bufitiye abantu akamaro cyane cyane aborozi. Ibingibi rero bituma babona amafaranga bakorohereza ishoramari ndetse n'igihugu kikabona umusaruro muri rusange, ahangaha rero dukunze no kuzikoresha turwanya imirire mibi kuko zitanga amagi n'inyama.

Inka y'umukara iri mu kiraro irimo irarisha ubwatsi, urabona ko imeze neza nta kibazo cy'inzara ifite. Ibi rero bikunze kongera umusaruro ku muhinzi, aho imuhereza ifumbire ihagije agashyira mu murima akabasha gufumbira imyaka ye.

Inkokokazi iri mu mbuga irimo iratora, ikunze gutanga amagi, inyama ndetse n'ifumbire bagenda bashyira mu bihingwa bigiye bitandukanye nk'imbuto n'imboga, aho usanga ibi bintu byongera umusaruro k'ubikoze ndetse bikongera n'amafaranga ku muntu uyoroye.

Kimwe mu bintu bituma abantu batera imbere vuba, harimo n'ubworozi bw'amatungo, cyane cyane ubw'ingurube, kuko iyo ibwaguye, ibasha kuguha amafaranga menshi cyane.

Ubworozi bw'amatungo ni ingenzi cyane. Nk'abantu boroye inka usanga barateye imbere, babona amata, babona ifumbire yo gufumbiza imyaka yabo, abana babo nta kibazo cy'imikurire bajya bagira ngo usange bararwaye indwara zituruka ku mirire mibi, ni ingenzi cyane rero ku buryo buri muntu wese ashishikarizwa kubworora no kubukurikirana.

Agahene kakiri gatoya kari konyine kakaba kaziritse ahantu mu biti hatari ibyatsi ndetse hasa n'ahantu mu murima rwagati.

Amatungo magufi bakunze kwita inkoko zikunze rero gutanga amagi ifumbire kandi zikazana n'amafaranga kuko burya ziroroka cyane kandi zigakora mu gihe gitoya ugereranyije n'andi matungo.

Inkoko ebyiri zifite ibirokoroko, hakaba harimo isake ndetse n'inkokokazi, zikaba zifite amababa asa neza cyane, ziri ahantu mu mbuga ngari.

Inzu isa n'ishajemo, ku rubaraza rwayo hahagazeho umwana ndetse iruhande rwaho hari umugore uri kugaburira itungo rye ry'ingurube kugira ngo rizamuhe amafaranga.

Umugore wambaye ingofero, yakenyeye igitenge hasi, ku bumoso bwe hari imbabura irimo amakara irajimije ntabwo iri kwaka, hari imishwi myinshi y'inkoko zimaze kubyara vuba vuba, undi mushwi wicaye ku mufuniko.

Ni muri Pipiniyeri hakaba harimo imbuto zitandukanye z'ibihingwa ndetse n'iz'ibiti, ubona zigejeje igihe cyo guterwa, zikaba zizakurwa aha zikajyanwa ahandi.

Ubuhinzi bw'ibigori, ni kimwe mu bintu bikomeje guteza imbere abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya kuko iyo bejeje umusaruro mwinshi, babona ibitunga imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange kikabiboneramo inyungu.

Umurima uhinzemo ibigori hakaba harimo n'ibindi bihingwa, ibi bigori byeze neza kandi byatanze umusaruro ku wabihinze bityo atunga umuryango we.

Ubuhinzi bw'imboga ni kimwe mu bintu byaguha ku gatubutse k'amafaranga, nawe ukagira ikofi ibyimbye, iyi ikaba ari pavuro ihenze kandi yakorewe ikitabwaho.

Umuhinzi wabigize umwuga akaba yarahisemo guhinga urubuto bita itunda, urabona ko rishishe neza cyane rwose, yaryitayeho ariha ifumbire none riratoshye.

Ubuhinzi bw'inyanya ni ingirakamaro cyane, ababukora bakunze kuvuga ko habonekamo amafaranga menshi cyane, aho bafata nk'intebo ugasanga barimo barayigurisha nko ku bihumbi bitanu, ibihumbi icumi, yewe usanga ibintu rwose byarazamutse. Rero ni byiza ko twabushishikarira tukabukora ku bantu bafite imirima minini kandi ihagije.

Umufuka urambitse hasi ukaba wanitseho umusaruro w'ibigori bikiri ku bitiritiri byabyo, byanitse aha ngaha kugira ngo byume maze babigurishe cyangwa se babisheshe.

Pipinyeri za kijyambere, zagiye zigaragaza umusaruro uhanitse cyane. Aha ngaha usanga barembekamo imbuto, maze igihe cyagera bakazikuramo bakagenda bakazitera. Ibi ngibi rero bifasha abahinzi bagiye batandukanye, ndetse no kugenda bakemura ibibazo bimwe na bimwe bituruka ku mirire mibi, ndetse n'ubukene bukagenda bugabanuka cyane cyane ubushomeri mu rubyiruko.

Kimwe mu bintu bikomeje guteza imbere abantu benshi, harimo n'ubuhinzi, kuko iyo umuhinzi yabigize umwuga, abonamo amafaranga amutunga ndetse agatunga n'umuryango we.

Umuhinzi mworozi agomba kujyana n'impuzankanro nawe we zimugaragaza. Ahangaha harimo nko kwambara inkweto zizamuye cyane cyangwa se n'amataburiya. Inka rero zigomba kugira abantu bazitayeho, bazikingire indwara kandi n'abashumba bo kuziragira bagomba kuba bazishyigikira mu rwego rwo gukomeza kongera umusaruro wazo aho zikunze kugira akamaro muri rusange.

Abahinzi babigize umwuga, bakaba bamaze gusarura ibihingwa byabo, barimo barabipakira mu mufuka kugira ngo babijyane imuhira nabo babashe kuryaho.

Umugabo wambaye ingofero y'umutuku na bote z'umukara arimo arita ku nka, hari umubyeyi uyiri imbere witeye igitenge arimo arayuhira, hari agacupa gateretse ku ruhande gapfunikishije umufuniko w'icyatsi, hari n'umugabo uri imbere urimo uritegereza urutoki n'inzu y'amategura imuri imbere.

Kwita ku matungo ni kimwe mu bintu byiza cyane kuko biyarinda kuba yarwaragurika, cyane cyane uburyo twayitaho harimo nko kuyakingira tuyatera imiti iyavura.

Abantu batatu barimo barabaga inka, bayiziritse amaguru n'amaboko, umwe ariko ku mutwe arimo arayikata ijosi, undi aramufashije yambaye ubusa hejuru, hari uwambaye bote z'icyatsi yicaye ku mugongo wayo.

Umuhinzi mworozi afite inka, inka n'itungo ryiza ritanga amata, ritanga ifumbire umuntu agenda agashyira mu butaka ibihingwa bikamererwa neza, iyo ryitayeho rwose ritanga umusaruro mwinshi cyane ku bahinzi ndetse no kuri kominote muri rusange.

Muri parike iyo ugezemo usangamo amoko y'inyamaswa zitandukanye, ziba zisa neza cyane rwose kandi muri pariki haba harimo n'ibiti by'amoko atandukanye izi nyamaswa zirisha.

Inyoni nziza cyane, ifite umunwa muremure, ikagira imirizo miremire, ndetse n'amaguru y'umukara, ikaba iri iruhande rw'igiti ndetse n'ibindi bimera biri aho.

Isha ni imwe mu nyamaswa zizi kuvuduka cyane, kuko nk'iyo indi nyamaswa iyirukankanye, biragoye ko yayifata bitabanje kwiruka cyane.

Inyoni burya na zo ni inyamaswa ariko hagiye harimo ibice byinshi n'inkoko buriya na zo zibarirwa mu bwoko bw'inyoni n'ibindi bintu byinshi cyane. Abantu rero ntabwo bajya bamenya agaciro kazo, hari abo usanga bazitega cyane cyane nk'izo bita inkware, abantu bashaka kuzirya ndetse n'inuma z'agasozi.

Inkende ni inyamanswa zikunze kwibera mu biti cyane, ba mukerarugendo barazikunda ndetse n'abaturarwanda tukazishima muri rusange ntabwo ari inyamanswa zikunze kugira amahane, n'ubwo bamwe bakunda kuvuga ngo ko zikunda kujya mu bitoki zikabyangiza ariko ibingibi usanga ari nk'imigani cyangwa se ari ibitekerezo bidafite ibimenyetso bigaragara.

Amoko y'inyamaswa zijya gusa n'ihene zikaba zitwa isha, urabona ko ari nyinshi cyane, ukaba wazisanga muri pariki ikubiyemo inyamaswa.

Inyoni ziri mu bidukikije aha ngaha hari iziguruka nk'izo tugenda dusanga mu mapariki, ariko hari n'izo twiyororera mu rugo aha ngaha navuga nk'inkoko n'imbata, hari inyagasozi rero bakunze kwita intumw, inkware izi ngizi nazo rero zikagira akamaro.

Ibikeri byo mu gasozi usanga bigiye bitandukanye n'ibyo mu mazi, aha ngaha rero tuba tugomba kubibungabunga kuko nabyo biri mu bintu bidukikije, tukirinda kubyangiza. Harimo abavuga ko bigira ubumara bukarishye cyane ku buryo iyo biguciriye udashobora gukira akenshi ukunze gupfa.

Inyamaswa iri mu giti bakunze kwita inkende, akenshi zino zikurura bamukerarugendo kuko burya ziboneka ahantu hake ku isi. Abantu rero bakunze guturuka mu mahanga agiye atandukanye, baje kwirebera ubwiza bwazo, ushobora kuzisanga nko mu mapariki agiye atandukanye niho wazibona.

Inyoni ihagaze ku giti ifite amabara agiye atandukanye, zikunze kuboneka muri pariki aho usanga ba mukerarugendo baza kuzireba bagafotora, ndetse bakazikoramo n'ibintu bigiye, bitandukanye, aho usanga bazishyira mu nzu nk'umutako, ku buryo umuntu ubagendere wese abona ko batembereye bakabona ibyiza bitatse igihugu runaka.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'inkende ikaba iri mu giti hejuru. Izi nyamaswa akenshi usanga ziba ziteye amabengeza kuzireba ikindi kandi zikurura ba mukerarugendo.

Inyoni bita igihunyira ikunze kugenda nijoro, abantu benshi bavuga ko iyo ari ku manywa itareba ariko twakwibaza ngo amaso yayo kuki iyafite, ibi ngibi rero ntabwo aribyo, abantu bagomba guhindura ino myumvire bakumva ko ari inyamaswa ifitiye igihugu akamaro ndetse n'abantu muri rusange, ikabungabungwa nk'ibindi byose bidukikije.

Muri Parike ya Nyungwe iyo ugezemo usanga amoko y'inkende atandukanye, biba biteye ubwuzu kubona izi nyamaswa kuko usanga zenda gusa n'ikiremwa muntu.

Akanyamanswa gatoya gafite umurizo muremure ndetse n'ubwoya bwinshi kabanguye amatwi, kakaba gasa n'imbeba yakuze cyane iba mu ishyamba.

Inyamaswa ikunze kuba mu gasozi bakunze kwita inkende, ifashe ku giti. Akenshi rero zino zikurura bamukerarugendo zikinjiza amadevize ku gihugu ku buryo iyo ubushakashatsi bukozwe bigaragara ko zikiboneka ahantu hake ku isi, bitewe na ba rushimusi bagiye rimwe na rimwe bazigirira nabi.

Inkombe eshatu ziri ahantu mu ishyamba, ukaba wazisanga muri Parike ya Nyungwe kuko ariho zibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, ukeneye kwihera ijisho wajyayo ukareba.

Ubwoko bw'inyoni isa neza ifite umunwa usa oranje, ifite imirizo miremire ikagira amababa, ikaba iri mu giti hejuru gifite amababi atoshye.